Ababyeyi babiri bishimye bari kumwe baseka bagaragaza urukundo rw'abashakanye, berekana urugero rwiza rw'aho abantu bashobora gukundana bakiri batoya kugeza mu zabukuru zabo, kandi urukundo rukaba rukiri rwa rundi ntacyahindutse.